Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ibanze, aho kiganwa n'abanyeshuri benshi bagiye batandukanye baba baje kwiga, urugero nko mu bigendanye n'ikoranabuhanga, noneho abanyeshuri bagahembwa, bagahabwa ibikombe, bigendeye ku byo bagezeho.

Ikigo gitanga serivisi ku bakiriya aho uko bagiye, bakurikirana ariko bahabwa serivisi, abaje mbere bayihabwa mbere, abaje nyuma babakurikiyeho, nabo bakaboneraho gutyo.